Mu mashuri makuru abantu biga ibintu bigiye bitandukanye. Muri ibyo bintu twavugamo abiga TTC, hari abiga imyuga. Iyo myuga harimo ubwubatsi ndetse no gukora imigezi.

Kwiga ndabikunda cyane, ikindi kandi bimfitiye akamaro k'ejo hazaza. Tugira rayiburari mu kigo, iyo ushaka nk'ikintu ujya gusoma ukabishakira mu bitabo.